Iyo umuntu yakomeretse akagana ivuriro bamufasha komora igikomere kugira ngo atamererwa nabi kurushaho, uyu nawe biragaragara ko yakomeretse mu ivi bakaba barashyizeho ibipfuko byo kumufasha.

Abantu bane bicaye bari guseka bigaragare ko bishimye, imbere y'abo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, bigaragara ko bari kugaragaza uburyo wagura ubwishingizi bw'ubuzima n'umuryango wawe.

Umuntu uhagaze wambaye umupira ndetse n'ipantaro y'ubururu irimo ibara ry'umukara, bigaragara ko ari ahantu ari kwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi bwo kwivuza ku bigo bito ndetse n'amashyirahamwe.

Ni ikirango cyanditseho yoru logo, layifu inshuwarensi. Hari abantu batatu basa nkaho ari bakuru, abandi ni abana batoya. Bisobanuye ko umuntu agomba kugira ubwishingizi

Abantu babiri bicaye umukobwa yambaye umupira w'umweru imbere ye hari imeza iteretseho imashini, imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru ufite impapuro mu ntoki biragaragara ko yaje gusaba serivise zibijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga.

Aho bacururiza imyenda igiye itandukanye, harimo amashati meza cyane arimo amabara atandukanye, ni inzu nziza ifite irangi ry'umweru, harimo n'ibigiriyage by'ubururu. Niba wifuza kwambara neza, ugasa neza, wajya muri iyi butike bakaguha imyenda myiza kandi igezweho.

Imipira itatu iciye amaboko. Umwe urasa n'icyatsi cyijimye, undi urasa n'umukara werurutse, ndetse kandi n'undi ni umutuku urimo amabara avangavanze.

Abantu bakunda imideli nabarangira aho bayishakira, hari intege nziza cyane zo kwambara mu ijosi, izo kwambara ku maboko n'izo gushyira mu musatsi, kandi niyo waba udafite umusatsi, hari n'utwo washyira ku mwenda ukabona ni byiza.

Umusaza wambaye ishati y'umuhondo n'ingofero iri mu ibara ry'ivu, iruhande rwe hahagaze umugore wambaye ishati y'ubururu ufite n'imisatsi y'umukara, yambaye n'indorerwamo z'amaso, bari kwitegereza muri mudasobwa.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, inkweto, ibikoresho by'ikoranabuhanga nka terefone ndetse n'amavuta yo kwisiga nk'uko bigaragara aha ngaha muri iri duka.

Akayetajeri kariho inkweto nyinshi zitandukanye, izifite amabara y'ubururu, izifite amabara y'umweru, zose ni inkweto zifunze. Ni aho bagurishiriza inkweto zitandukanye kandi ni nziza kandi zirakomeye.

Umukobwa wambaye agakanzu kagufi gageze hejuru y'amavi, yambaye udukweto dufunze tw'umweru, asutse ibisuko by'umukara ndetse yiteze n'agatambaro k'umukara yambaye na linete z'amaso, ari ahantu bacururiza imyenda.

Udukoresho gakondo tuboshye neza mu nshinge ndetse n'urudodo rw'umufuka, ni udukoresho dukunze kubohwa n'abadamu ariko n'abagabo babishobora, ni utuntu twiza ushobora kurambikaho imbuto, ushobora kurambikaho impapuro, uto rero wifuza ko mu nzu yawe hagira isuku watugura.

Imyambaro iri mu mabara y'umweru n'umukara, imanitse ku kintu barushyiraho bari gucuruza, hirya nyuma hari akameza k'umweru gateretseho amatasi ari mu mabara atandukanye.

Umugore wambaye agasengeri k'umweru, ufite imisatsi myinshi afite agasakoshi mu kwaha, afite ikote mu biganza bye ari kwitegereza arishimye, inyuma ye hari indi myenda y'amabara agiye atandukanye.

Ahantu hanini kandi heza cyane hari imiteguro y'amasaro igiye itandukanye bigaragare ko bahacururiza inkweto z'amasaro ndetse n'ibindi bikoresho bikorwa mu masaro.

Inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse ku muryango hariho ikirango gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, imbere y'iyo nzu hari ururabyo, imbere y'iyo nzu nanone hari ibishushanyo byinshi byambaye imyenda itandukanye, ku ruhande rwayo hari umuntu uri gutambuka bigaragara nk'aho aho hantu hacururizwa imyenda.

Imyenda imanitse bigaragara ko icuruzwa harimo imipira ifite amabara agiye atandukanye arimo umupira ufite ibara ry'umweru wanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ,harimo umupira wa oranje ,harimo umupira w' icyatsi umukara, ubururu ndetse n'umupira w'umutuku n'indi myinshi itandukanye.

Ibitenge by'ubwoko butandukanye, harimo ibifite amabara y'ubururu, ibifite amabara y'umweru n'ibifite amabara y'umuhondo, aha ngaha bimanitse ni ahantu babicururiza. Wifuza igitenge cyiza cyo gukorana, icyo guserukana cyangwa se icyo kudodeshamo, wagana aha ngaha bakakurebera icyiza cyane gusumbya ibindi.

Imodoka nziza cyane eshatu ziri ahantu mu nzu ngari mu cyumba kisanzuye aha niho bagurishiriza imodoka nawe ushaka kugura imodoka nk'iyi ngiyi waza ahangaha rwose!

Mu modoka mo mbere harimo intebe nziza, ifite ibara ry'umweru, aho bakandagira harasa umukara irafunguye, urebeye mubirahure urabona hakurya indi modoka y'umutuku n'indi y'umukara igaragara agace gatoya.

Umugabo uhagaze yambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo amabara y'umutuku, afite ikirango mu ntoki, inyuma ye hari imodoka iri mu ibara ry'umweru iparitse ahantu hari amapave.

Icupa riteretse kumezaeza y'ikirahure ririmo amazi ndetse hateretseho n'impapuro ku ruhande rw'iyo meza hari imodoka zifite ibara ry'umweru bigaragare ko ari ahantu hacuruzwa izo modoka.

Imodoka nziza cyane nini ifunitse inyuma ni zimwe muri za modoka zitwara imizigo, hari abantu batatu bayihagaze imbere bafite igifunguzo kinini cy'umweru ndetse n'udukapu tw'umutuku.

Imodoka nziza y'umukara, yanditseho Kigali kare maketi, iragurishwa iyi imodoka kandi ntihenze. Amafaranga igura ni miliyoni mirongo itatu na zirindwi. Wifuza imodoka isa uku, wagana Kigali kare maketi bakagufasha.

Inyubako nini cyane irimo imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye harimo imodoka ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'iziri mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari ho hacururizwa izi modoka.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa mbere, ni nomero ya mbere ifite ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari indi na none yo mu bwoko bwa nimero ya kabiri ifite ibara ry'umutuku, ziparitse munsi y'ibiti.

Abantu batatu bahagaze hagati harimo umugore umugabo umwe yambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, iruhande rwabo haparitse imodoka bafite ikirango mu ntoki basa nkaho haribyo bari kwamamaza.

Abagabo batatu bahagaze, umwe yambaye umupira w'umukara n'inkweto z'umweru, undi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umukara, bahagaze imbere y'imodoka, bafite ikirango mu ntoki, izo modoka zifite ibara ry'umweru.

Abantu babiri bahagaze, umwe yambaye agapfukamunwa k'ubururu, ishati yubururu, n'ipantaro yenda gusa kake, undi yambaye agapfukamunwa k'umukara ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara bahagaze iruhande rw'imodoka bafite ikirango mu ntoki.

Abagabo babiri umwe wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, undi wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umukara, bahagaze imbere y'imodoka yanditseho ABG ahantu ihagaze hashashe amapave, ku ruhande hari ibiti ndetse n'amagriyaje y'umweru.

Abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, umugabo umwe yambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara undi yambaye ishati y'umweru ijire y'umukara ndetse bafite ikirango mu ntoki umugore yambaye ishati ndende, inyuma yabo hari imodoka ihaparitse.

Ahantu batangira serivisi zijyanye n'amafaranga hafite ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi n'imbere harimo umuntu bigaragara ko afasha abakiriya baza bamugana ku ruhande hari abandi bantu bigaragara ko bari guhabwa serivisi.

Ibiganza by'inzobe biri gufata amafaranga ku kamashini kaba ari amafaranga hejuru yako dolote nyinshi cyane z'amafarangako kamashini kari kwaka ibara ry'ubururu harimo imibare ku ruhande hari imibare yandikijeje ibara ry'umweru mu ibara ry'umukara.

Igiceri cya mirongo itanu cyo mu Rwanda, cyanditseho banki nkuru y'u Rwanda, gishushanyijeho ikigori gishishuye ariko kidashishuye cyose, ni igiceri kiri mu ibara ry'ivu.

Igiceri cya mirongo itanu cyanditseho banki nkuru y'u Rwanda, ku mugongo wacyo hashushanyijeho igitoki, munsi y'igitoki handitse ibihumbi bibiri n'icyenda.

Amafaranga yanditseho igihumbi, hagati harimo imisozi ndetse n'ibyatsi ku ruhande harimo n'isinya y'umuntu handitseho n'amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Inote y'igihumbi yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda. Ishushanyijeho inka zifite amahembe maremare. Ndetse hari n'akabara k'icyatsi kijimye karimo abantu batagaragara neza, basa n' aho bari gusoroma icyayi.

Amafaranga magana atanu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hagati yayo harimo ibara ry'icyatsi. Munsi yayo hari indi noti nayo ni iya magana atanu ariko ishushanyijemo abana batatu bafite raputopu mu ntoki.

Ku ishami rya MTN, batanga serivisi neza zigiye zitandukanye, nko guswapa simukadi gufunguza konti muri mobayiro mani konti ya momo peyi ndetse n'izindi serivisi zijyanye n'umuronko wabo.

Abagabo babiri bahagaze aho bakirira abakiriya muri banki bigaragare ko baje kwaka amafaranga, umwe ari ku kumba ka mbere undi ari ku kumba ka kabiri, niho bakirira abaje babagana.

Ni anverope zisa umweru, zirimo imigati mo imbere, izindi zikaba zirimo amandazi, zirambitse ku musambi ufite ibara ry'ubururu n'iry'umweru.

Inzu icururizwamo ibyokurya n'ibyokunywa bitandukanye, hejuru harimo uducupa tw'amata munsi yaho harimo hari imigati biswi munsi yaho na none hari amacupa ya ji zitandukanye hirya yaho hari indobo z'umweru, zirimo ibyokurya bitandukanye, imbere harimo umuntu ufite akabido k'umweru, imbere ye hari umuntu bigaragara nk'aho aje kugura.

Ahantu hacururizwa amata. Hari inkongoro zirimo amata idapfundikiye, hari ijage basukisha amata n'umufuniko w'umutuku ku meza. Hahagaze umukobwa, ahantu hari amakaro meza y'umweru, umukobwa wambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'umupira w'umweru waje kugura amata.

Hari abantu batandukanye baje kugura amata mu ikusanyirizo ry'amata, si ibyo gusa hari n'abahaza baje kuyagurisha kuko hatunganyirizwa amata akaza ameze neza.

Abantu babiri bahagaze umwe yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru urimo ibara ry'umukara, undi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru n'ijiri y'ubururu afite agakombe, imbere yabo hari icyuma cyo bashyiramo amata cyanditseho inyange bigaragara ko ari ahantu hatunganyirizwa amata.

Ikirango kigaragaza ko aho hantu haba hari amata y'inyange imbere yaho hari intebe z'ubururu n'akameza k'umweru, imbere yaho nanone hari intebe z'ubururu n'umutaka w'umutuku, imbere yaho hateretse indobo ndetse n'akabase by'icyatsi bigaragara ko ari kandagira ukarabe.

Ni mu nzu hasize amarangi y'ubururu. Hari n'utubati turimo amaji y'Inyange ,amata y'inyange. Ku gahande kamwe hashushanyijeho inyoni, munsi yayo yanditse Inyange. Aha hatangirwa ndetse hakanacururizwa ibintu byose bikomoka ku mata y'Inyange ndetse n'amaji y'Inyange.

Inzu nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo utubidotwe dutatu tw'umweru, harimo udushashi duteretse twanditseho inyange, harimo amacupa arimo ji yanditseho inyange, harimo n'icyuma kinini cyanditseho inyange bigaragare ko ari ahantu ari icyuma gitunganya amata kugira ngo abayabona bayabone asukuye.

Urupapuro rugaragaza uburyo serivisi za mobayiro mani zikora. Hari ku rutonde rw'ibintu bigera ku icyenda, harimo uko wohereza amafaranga, harimo uko ushobora kugura ama inite, uko ushobora gukoresha momo peyi, uko ushobora gukoresha banki ndetse n'inguzanyo, n'uburyo wareba amafaranga usigaranye, kuri konti yawe ya mobayiro mani.

Ni uburyo butandukanye bwo kwakira amafaranga ndetse ukanayohereza mu bihugu bike bitandukanye, ikoranabuhanga ni ryiza kuko rifasha n'abantu, kuba bakoresha amafaranga y'ubwoko butandukanye.

Abantu babiri bahagaze umugabo yambaye umupira w'umuhondo, ingofero y'ubururu irimo n'ibara ry'umuhondo, afite terefone mu ntoki n'igitabo mu ntoki. Umugore yambaye ikote ry'ubururu igikari afite n'igikarito mu ntoki na terefone, bigaragara ko hari ibyo ari kuganira n'uyu mukozi wa emutiyene.

Abantu bari mu byiciro bitandukanye, hari abahagaze, hari n'abicaye, bigaragara ko bari muri serivise zitandukanye, imbere yabo hari imeza iteretseho imashine ndetse n'impapuro.

Icyapa kigaragaza uburyo wakohereza amafaranga, wabitsa ndetse waguramo n'amayinite kiri kugaragaza inzira eshatu wakoresha ukeneye kwakira kubitsa ndetse no kugura amayinite.

Ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo bigaragara ko ari ikirango cya emutiyene kiriho umukobwa wambaye umupira w'umweru, afite terefoni mu ntoki arerekana ko ushobora kwishyura ukoresheje telefone.

Umugabo n'umugore bishimye cyane, umugabo ari kureba muri terefone afashe mu ntoki, aricaye yambaye umupira w'ubururu, umugore ari gusekereza, yambaye ibitenge ndetse afite n'imisatsi na menshi ku mutwe.

Urupapuro rwanditseho amagambo, bigaragare ko ari urupapuro rutangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, ruragaragaza amafaranga agenda yishyurwa ku misoro, ndetse n'ibihano biba byatanzwe, ndetse n'inyungu ziba zatanzwe.

Urupapuro rwanditseho ngo repubulika y'u Rwanda, inyuma y'ayo magambo hashushanyije ikirangantego cy'u Rwanda. Hino yacyo haranditse ngo agenoregimenti recebuti. Nanone kandi haranditse ngo Rwanda reveniyuotoriti nk'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

icyemezo kigaragaza ubwishyu, cyanditseho rwanda revenue authority nk'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Haranditse ngo nanone office rwandais des recettes, bisobanuye ko ari inyandiko yemeza ubwishyu.

Amafaranga ijana ashushanyijeho umugore biragaragara ko imbere hari ibindi biceri bigiye bitandukanye hariho ibiceri by'atanu ndetse n'ibiceri bya rimwe hakaba hariho n'igihe ayo mafaranga yakorewe.

Mu bihugu bigiye bitandukanye ni nako bigenda bikoresha amafaranga atandukanye, aya mafaranga uko agaragara, aragaragara nk'aho ari amafaranga akoresha mu bihugu byo hanze, kuko si ayo mu Rwanda.

Ibiceri bitondeganyije ku meza, harimo ibiceri bya mirongo itanu, ibiceri by'icumi ndetse n'ibiceri by'atanu, aho birambitse harasa ubururu bwererutse.

Ikiganza cyiza cy'inzobe gifite amafaranga menshi mu ntoki. Inyuma haranditse ngo: "mani egisiceyinji." Aya mafaranga afashwe n'umuntu wambaye ikositimu y'umukara.

Inoti ishushanyijeho umuntu ufite imisatsi miremire, iri ni ibara ry'umweru, handitseho imibare ijana n'utundi tubare duto duto mu ibara ry'umukara, ko bigaragara aya mafaranga si ayo mu Rwanda ahubwo akoreshwa mu bindi bihugu byo hanze.

Umuntu wicaye yambaye imyenda y'umweru afite terefone mu ntoki iri mu ibara ry'umutuku ndetse afite n'amafaranga mu ntoki agiye atandukanye bigaragara ko ari kuyabara.

Inzu itangirwamo serivisi z'ibijyanye n'amafaranga bigaragare ko ari ahantu hakorerwa serivisi zo kuvunja amafaranga mu buryo butandukanye, imbere harimo imashini ndetse n'umuntu uhagaze ku muryango.

Inzu isize amarangi y'ubururu iriho icyapa cyanditseho Tigo, igaragara nk'inzu bacururizamo cyangwa se bakoreramo serivisi zijyanye n'itumanaho rya Tigo.

Inzu ifite ibara ry'icyatsi, isize amarangi y'icyatsi, yanditseho mani taransifa, Remera buranshe. Aho ni aho wakoherereza amafaranga, wifuza ko agera ku muntu wawe uri kure. Iri ni ishami rya Remera.

Mu nzu y'ivunjisha n'ivunjishwa, aho bavunjishiriza amafaranga ndetse bakanakira amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye, hari umugore ufite imisatsi miremire, uhetse agakapu k'umukara, wambaye ishati y'umweru n'agapfukamuwa k'umukara. Ku bikuta hari amarangi y'icyatsi avanze n'umweru. Hari risite y'amafaranga batanga ndetse n'ibiciro byayo n'uko agiye angana, bitewe n'ayo ukeneye.

Hari ahantu henshi umuntu yatemberera akicara akaganira n'inshuti ze nta kibarogoya, nk'uko bigaragara aha hantu hateguye neza, hari ameza, hari intebe zo kwicaraho kandi haratuje.

Mu cyumba cy'uruganiriro giteguye neza harimo intebe zifite imisego iri mu ibara ry'ivu, n'utundi dusego duto turi mu ibara ry'umweru. Inyuma hateguye aho kurira hari ameza y'umukara ndetse n'intebe z'umukara, hasi hashashemo amakaro y'umweru.

Inzu ndende cyane yubakishijwe amabati, imbere yayo hari tapi y'umweru iteretseho akabati karekare, iruhande rwako hateretse intebe zirimo imisego y'umukara, imbere y'intebe hateretseho akameza.

Ni aka etajeri keza yatatseho uturabyo gateretseho n'ibindi bintu gateye ku gikuta gakoze mu biti kagabanya akajagari ko mu nzu kandi kagashyira ibintu ku murongo iyo wifuza rero nawe gushyira ibintu byawe ku murongo urakagura.

Inzu ifunguye umuryango imbere, y'uwo muryango hari intebe ziri mu bwoko butandukanye, ndetse na matera zitandukanye hari intebe zifite ibara ry'umweru, izifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ubururu, hari na matera zifite amabara agiye atandukanye.

Inzu nziza iteguye ifite intebe nziza ziri mu ibara rya ruje borudo, ku ruhande rwazo hari urukuta rwubakishije itafari, inyuma yazo hari urukuta rusize ibara ry'umweru ndetse hari n'udufoto tubiri turi mu ibara ry'umukara.

Mu masaha ya nijoro, hari inzu nziza isize amarangi y'umuhondo, impande zayo hari amatara ari kwaka mu ibara ry'umuhondo. Hasi impande z'iyo nzu hari imodoka zihaparitse.

Ahantu heza wasohokera ukanahatemberera, ni inzu isize amarangi ya oranje, hari indabyo z'ubwoko butandukanye, zifite amabara atandukanye, harasa neza cyane ndetse hanateguye neza.

Icyumba cyiza giteguye neza wakoreramo inama cyangwa ibindi biganiro bitandukanye. Hateguye neza, harimo intebe z'umukara ziri ku itapi y'umutuku. Ameza ashasheho igitambaro cy'umukara.

Ahantu heza cyane, hateguye neza, hari imitaka y'umweru munsi y'iyo mitaka harimo intebe zigiye zitandukanye ziteguye, bigaragara ko ari nk'ahantu abantu bahurira bakaganira cyangwa se bakahafatira amafunguro.

Inzu nziza cyane ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu, imbere y'iyo nzu hari imitaka irimo udutebe tw'umweru, imbere yayo hari pisine bigaragara ko ari ahantu abantu basohokera bakoga.

Ni mu bwiherero bwa kijyambere hahandi wiherera wicaye hari ahamanitse isume yo guhanaguza ibiganza nyuma yo kwiherera, hari n'ahandi hamanitse akantu ko kwihanaguza, kwifashisha mu kwikoraho isuku nyuma yo gusoza kwiherera, n'aho kogera ibiganza byawe.

Sale nini cyane y'inama ifite igisenge kiriho amatara meza y'umweru ndetse icyo gisenge gifite ibbara ry'umweru, abantu barimo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umuhondo harimo n'abahagaze.

Ahantu heza hateguye neza hari umutaka munsi y'umutaka hari intebe z'umukara, ndetse n'imeza bigaragare ko ari ahantu abantu bicara bakahafatira ibyokurya ndetse n'ibyokunywa bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imodoka ziri kujya mu bice bitandukanye, z'ubwoko butandukanye ndetse harimo n'abantu bari kugenda iruhande rwayo hari inzu ndende nziza imbere y'iyo nzu hari ibiti byiza ndetse hari na jaride imeze neza.

Inyubako ndende cyane ifite ibirahuri by'umukara yijimye isize amarangi meza cyane afite ibara ry'ivu ni heza rwose wahatemberera kandi no kuhaba byaba byiza kurushaho.

Inzu nziza cyane igeretse, imbere yaho hari imitaka ifite ibara ry'umweru, munsi y'iyo mitaka hari intebe ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'ameza ndetse hari na jaride nziza cyane.

Ahantu heza mu busitani bwiza watembera ugasohoka, wowe n'inshuti zawe, umukunzi cyangwa abavandimwe. harasa neza dufite intebe z'umukara, two ubwatwori turi mw'ibara ryivu. Hirya hari pisine aho wakogera mu gihe wumva icyokere kibaye kinshi.

Ahantu heza hari ururabyo inyuma yurwo rurabyo hari intebe zitandukanye ndetse n'akameza gateretseho udukoresho kuruhande hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, itaburiya y'umweru n'ingofero yumweru bigaragare ko hano ari muri resitora baharira.

Abantu babiri bicaye umukobwa yambaye ishati yicyatsi imbere ye hateretse hari imeza iteretseho imashini ndetse n'ikirango kigaragaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga imbere ye hari hicaye umusore wambaye umupira wumukara nipantaro yumukara bigaragara nkaho bari kuganira bintu bitandukanye.

Aho bakirira abantu, hari ikirango cyanditseho muwa, munsi yacyo haranditse welikamu mu mu magambo y'ubururu, ariko ahantu hasa umweru.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara, agapfukamunwa k'ubururu n'imisatsi isutse neza cyane, yambaye n'amaherena, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'agapfukamunwa k'ubururu, ari kureba muri mudasobwa.

Umuntu wicaye ku ntebe nziza imbere ye hari ameza, hari n'indi meza iri mu ibara ry'umweru inyuma ye hari ikirango kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijwemo amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse bigaragare ko ari ahantu hakirirwa abantu.

Abantu bicaye bakoze uruziga, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi ndetse hari n'utuntu bakoresha bakora isuku bihanagura mu kiganza, imbere y'abo bantu ku meza hagiye hateretseho telefone.

Inzu ndende ifite ibara ry'ubururu imbere yaho hahagaze umuntu wambaye ishati y'ubururu yambaye n'ingofero, biragaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye.

Hahagaze abantu batandukanye, harimo abasore n'inkumi, hirya hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ibaje mu ijosi. Bigaragara ko atanga serivisi aha ngaha. Abana bafashe impapuro mu ntoki.

Ikirango kiri mu ibara ry'umutuku cyandikishijemo amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, imbere haparitse imodoka, imbere y'iyi modoka hari umukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'ikote ry'umukara, bigaragaza ko ari kwamamaza uburyo ushobora kubonamo amafaranga mu buryo butandukanye.

Abantu batatu babiri barahagaze, undi aricaye afite urupapuro mu ntoki, yambaye ishati y'umweru ndetse na baji ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hari ibitabo ndetse n'imashini, ndetse biragaragara ko abo bantu hari serivisi bari kumusaba.

Umugore uhagaze wambaye ijire y'ibara ry'icyatsi n'ingofero y'ibara ry'umuhondo ahagaze imbere y'inzu ndende dukunda kwita etaje. Inyuma ye hari urugi ruri mu ibara ryicyatsi bigaragaza ko ari kwamamaza banki hirya ye hari imashini zikora umuhanda iri mu ibara ry'umuhondo.

Abantu batandukanye bicaye muri sare y'inama, hari abinjira hari n'abasohoka, ibigaragara hari abagore babiri n'umugabo umwe bari kwitegereza mu mpapuro, ari nabo bakira abaza baganagaha.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu nko hagati harimo ifoto' y'umugabo wambaye ikote ry'umukara, n'ishati y'iroza na karuvate, iruhande rwe hari handitse amagambo bigaragara ko ari ahantu babitsa cyangwa bakabikuza amafaranga.

Abantu benshi batandukanye harimo abagore abagabo n'urubyiruko, bambaye imipira y'icyatsi yanditseho Green amayaga, bose bambaye udupfukamunwa tw'amabara agiye atandukanye, ahantu bahagaze hejuru y'igisenge hari amatara y'umweru atari kwaka.

Umukobwa uhagaze wambaye ijire y'umutuku n'umupira w'umweru yambaye n'ingofero y'umweru; inyuma ye hari ikirango kiriho amagambo bigaragara ko aho hantu hatangirwa serivisi zijyanye n'amafaranga.

Umuntu uhagaze wambaye umwenda w'icyatsi afite igikapu mu ntoki, afite n'ikarita mu ntoki biragaragara ko ari kuyinjiza mu mashini kugirango aze kubona amafaranga.

Inzu nziza ifite ibara ry'umweru, yanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, imbere ku muryango hateguye igitambaro cy'umweru, hirya y'aho hadekoresheje ibitambaro by'umweru ndetse n'umukara.

Mu nzu hasize amarange y'umuhondo n'ay'umweru, hateretse intebe z'umukara nziza, ku ruhande hari ururabyo rwiza cyane ruteguye neza, rurimo udutako tw'umweru n'umutuku, wakwishimira kuhaza, hejuru muri parafo, hari amatara meza y'umweru.

Isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibitunguru by'amababi ndetse n'ibindi bitunguru by'ubundi bwoko, hahagaze abantu babiri bari kuganira bose bambaye imipira y'imituku.

Imboga zo mu bwoko butandukanye harimo; amashu, ibitunguru, karoti, ndetse n'ibitunguru by'amababi twita puwaro, byose biri ku murongo bitondetse neza bigaragara ko ari ahantu hacururizwa izi mboga.

Mu mujyi wa Nyabugogo hari imodoka nyinshi z'amoko yose, hari izifite ibara ry'ubururu zisa nk'aho zitwara imizigo, hari n'izindi zitwara abantu mu buryo bwa rusange, hari abantu benshi baje gutega imodoka, ariko hari n'amamoto menshi.

Isoko ricururizwamo imyenda, ririmo abantu batandukanye, harimo umuntu wambaye ijire ifite ibara ry'icyatsi, afite imyenda mu ntoki, imbere ye hari abandi bantu babiri bahagaze, bigaragara ko bari kugura cyangwa bari gucuruza.

Bahacururiza ibikoresho bitandukanye bya gakondo, harimo ibiseke ndetse n'indi mitako myiza igiye itandukanye, harimo udusorori tubaje mu biti, niba wifuza imitako yo gutaka mu nzu, udusika dutoya tuboshye mu nshinge wagana hano hantu.

Isoko ry'imbuto ririmo imbuto zitandukanye harimo amaronji, voka, imineke, inyanya ibijumba, n'ibindi hari umuntu wicaye uri gucuruza afite voka mu ntoki.

Inzu ndende cyane, imbere yayo hari abantu benshi na moto nyinshi n'imodoka nyinshi, bigaragara ko ari mu ihuriro ry'abantu cyangwa se nko muri gare, haparika ibinyabiziga bitandukanye.

Isoko ry'imbuto n'imboga, harimo inyanya, intoryi, dodo, ibitunguru, pavuro, karoti ndetse n'ibirungo wateka mu biryo bigiye bitandukanye nka asante n'ibindi, harimo abagore bambaye imyambaro itandukanye bari gucuruza muri iryo soko.

isoko rinini cyane kandi rigari ricururizwa mo ibyo kurya bitandukanye inyanya, ibitunguru, imboga z'ubwoko bwose harimo n'abantu batandukanye benshi bigaragara ko bari gucuruza ibyo bicuruzwa.

Iduka ricuruza imyenda, harimo abantu benshi batandukanye, harimo uwambaye umupira w'umweru wanditseho amagambo, imbere ye hari abandi bantu bigaragara ko baje kugura imyenda.

Abantu bari mu byiciro bitandukanye harimo abicaye, harimo abahagaze, harimo abari kugenda, bigaragare ko hano hatangirwa serivisi zitandukanye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, inyanya, intoryi n'ibindi, harimo abantu benshi baje guhaha harimo n'umugore uteruye ibase irimo inyanya nyinshi, inyuma ye hahagaze abandi bantu baje guhaha.

Isoko rinini cyane ririmo abantu benshi kandi batandukanye harimo n'ibicuruzwa bitandukanye harimo inyanya, intoryi, karoti, puwavuro, ibitunguru ndetse n'ibindi bicuruzwa bigaragare ko hari n'abandi bantu baje guhaha ibyo bicuruzwa.

Ahabugenewe hacururizwa ibitoki byiza cyane by'umwimerere, ibiciwe ako kanya bya bindi biba bimeze neza, turahabona ibitoki birebire byiza, abantu benshi bari mu gasoko, abagenda n'abaza kugura imbere y'ibitoki hahagaze umukobwa wambaye akajipo k' ikoboyi k'ubururu, ikoti ry'umutuku n'igitambaro cy'mweru mu mutwe n'abandi bari kugenda.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, ibijumba, ibitunguru, intoryi, karoti, imyumbati ndetse n'ibindi, ririmo abantu bagiye batandukanye, bigaragara ko buri muntu ahugiye ku byo ashaka kugura.

Abantu bahagaze n'abandi bicaye bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'umweru, imbere yabo hari imashini, abandi bantu barahagaze basa n'aho bari gusaba serivisi, hari n'abandi bantu bari kubafasha babasobanurira mu bijyanye na serivisi bari gushaka.

Ikirango cya emjutiyene kiri mu ibara ry'umuhondo kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara hari n'andi yandikishijwe ibara ry'umukara ariko ari mu ibara ry'umuhondo, hari umuntu ufite terefoni mu ntoki bigaragara ko ari kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wanditseho Emutiyene kanda ijana na mirongo inani na kabiri urwego, imbere y'uwo mutaka hahagaze abagabo babiri umwe yambaye umupira utukura, undi yambaye ijire y'umuhondo ya Emutiyene, bafite ibyo bari gukora byerekeranye n'umurongo wa Emutiyene.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo ndetse harimo n'ibara ry'ubururu wanditsemo amagambo bigaragara ko ari uwahe emutiyeni munsi yawo hari abantu babiri bambaye ama umwe yambaye ishati y'umweru ahetse igikapu ndetse n'ipantaro ya kake n'undi ahetse igikapu yambaye n'ipantaro ya kake bigaragara ko bari gusaba serivisi ku bijyanye na emutiyeni.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kariho ibirango biririmo ibara ry'ubururu byanditseho amagambo, hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari gusobanurirwa serivise zitangirwa aho hantu.

Abantu babiri bahagaze imbere y'imodoka umwe yambaye umupira w'umuhondo urimo amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu yambaye n'ingofero y'umuhondo ifite n'ibara ry'ubururu afite telefone mu ntoki, iruhande rwe hari undi wambaye ikoti ry'umukara afite terefone mu ntoki biragaragara ko ari gusaba serivisi uyu ari umukozi wa emutiyeni nawe uri kumufasha.

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo ugaragaza ko akorera emutiyeni ari ku igare, inyuma ye hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo wanditseho emutiyeni, hari umuntu wicaye ari gutanga serivisi z'ibijyanye n'amafaranga ndetse inyuma ye hari n'abandi bantu bahagaze.

Akazu karirimo ibara ry'umuhondo kanditseho emutiyene mu ibara ry'ubururu ndetse kandiditseho n'andi magambo mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari ahantu batangira serivise zijyanye na emutiyene mu kubitsa no kubikuza no kugura amayinite, imbere yako hahagaze umuntu bigaragara ko ari guhabwa serivise.

Abakobwa babiri bicaye, bambaye imipira y'umuhondo yanditseho Emutiyeni, inyuma yabo hari ibara ry'umuhondo rigaragara ko ari irya Emutiyeni, biragaragara ko batanga serivisi z'ibijyanye n'amafaranga, bakorera Emutiyeni.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo bigaragara ko ari akazu gatangirwamo serivisi za Emutiyene, imbere yako hahagaze abantu babiri umukobwa yambaye ijiri y'umuhondo, irimo umurongo w'umweru, n'ikabutura y'umukara, ku ruhande rwe hahagaze umugabo wambaye umupira w'umuhondo, bigaragara ko aba ari abakozi bakorera Emutiyene .

Ahakorera umuyoboro wa Ayateri mani, aho wagana ubaye ukeneye serivisi zose zijyanye na Eyateri. Hahagaze abakobwa babiri ariko hari n'ikirango cya MTN, bisobanuye ko bakorana na Eyateri ndetse na MTN.

Umukozi wa emutiyeni uri mu kazu ka emutiyeni karimo ibara ry'umuhondo afite ikaramu mu ntoki, afite n'igitabo asa naho ari kwandika, biragaragara ko ari guhereza serivisi undi muntu waje umugana.

Akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo kandikishijeho amabara y'umukara ndetse n'umutuku, gahagazeho umuntu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira urimo imirongo y'umweru n'umukara, bisa naho yaje gushaka serivisi zihatangirwa.

Umugabo wambaye kasike y'umutuku, agapfukamunwa umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ubururu afite amvelope mu ntoki, iruhande rwe haparitse moto ihetse igisanduku gifite ibara ry'umutuku cyanyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, bigaragara ko ashyira abantu ibicuruzwa.

Byaroroshye cyane gukurikirana amasomo wibereye mu rugo, ugakoresha ikoranabuhanga. Uriyandikisha, ukuzuza imyirondoro yawe, ugahitamo igihe uzajya wigira ndetse n'uburyo bwo kwishyura.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, uri gushyira akantu k'umweru mu rundi rusanduku runini rw'ubururu bwerurutse, bisa nk'aho ari umuzigo ugiye gutwara ahantu runaka bawumutumye.

Umumotari wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'icyatsi uhetse agasanduku k'icyatsi kuri moto, ari mu muhanda ushashemo amapave, inyuma ye hubatse urugo rw'amatafari ahiye, mo imbere harimo ibiti.

Si ngombwa ko igihe cyose ugiye guhaha ibintu runaka witabira ngo ujye ku isoko hari ubundi buryo bwaje kandi bugezweho bwo guhaha wifashishije ikoranabuhanga niba ubaye utarabimenya hari ama apurication menshi yagufasha kubimenya.

Umugabo uri guseka wambaye umupira wa oranje wicaye kuri moto y'umutuku, ahetse igikapu kiri mu ibara ry'umuhondo n'irindi bara rya oranje, begamiye igikuta gifite ibara rya oranje.

Umuntu uhagaze iruhande rw'umuhanda wambaye ishati y'icyatsi irimo amagambo yandikishijwe ibara' ry'umweru, ahagaze iruhande rwa moto iyo moto ihetse igikapu, kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku yanditseho vuba.

Ikirango gifite amashusho atandukanye, kiriho imashini ishushanyijemo ibyoku kurya, cyanditseho resitora, hirya y'iyo mashini hari telefone irimo inkweto, bigaragara nk'aho bari kwamamaza ibicuruzwa.

Umuhanda wa kaburimbo ku nkengero zawo hagaze umuntu wambaye kasike, yambaye n'ijire y'umutuku irimo uturongo tw'umweru, yambaye nagapfukamunwa n'umupira w'ubururu, iruhande rwe hari moto ndetse afite ni'ibindi bintu mu ntoki ari kubika kugirango aze kubona uko abitwara.

Inzu nziza yubatse neza ifite amatara meza, isize amarangi meza y'umweru n'umukara n'igisenge kiza cyane, impande yayo hashashe amapave y'amabara y'umutuku n'umukara, iyi nzu iherereye i Kanombe, iruhande rw'ikibuga cy'indege.

Ni heza hari akabati keza, harimo udutebe twiza tw'umweru dukikije ameza y'umukara, hejuru hari itara ryiza ry'umweru riri kwaka, iyi nzu ihagaze amadorari igihumbi n'ijana.

Mu nzu mu cyumba kitagaragara neza hijimye handitse apartment for sele in kibagabaga i kigali usd ijana na mirongo itatu na gatanu amazeru atatu.

Hari inzu ikikijwe n'igipangu cyubakishije amatafari y'impunyu, hari umuhanda udakoze neza w'igitaka uteyeho cyayi cyayi ku ruhande, iyi nzu ni iyo kugurisha iherereye i Kigali Musave Bumbogo ikaba yagurwa amafaranga miliyoni cumi n'eshanu.

Ubusitani bwiza buteyemo igiti cy'umwembe munsi yacyo haranditse ngo Kacyiru Kigali citi bisobanuye ko iyi nyubako iri iruhande rw'ubu busitani iherereye Kacyiru kandi wayikodesha amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Saro nziza cyane iri mu ibara ry'umuhondo iteguyemo itapi iri mu ibara ry'umukara, ndetse n'umweru, iteguyemo intebe zifite ibara ry'ubururu, imbere yazo hateretse akameza kari mu ibara ry'umukara, inyuma yazo hari izindi ntebe.

Saro ifite intebe nziza zigiye zitandukanye, hari izifite ibara ry'umweru imbere yazo hateretse akameza, iruhande rwazo hari izifite ibara ry'umukara imbere yazo hateretse akameza iruhande rwazo hahagaze abantu babiri bigaragara ko bari kuganira.

Ni umugabo muremure wambaye ikoboyi y'ubururu n'ishati y'umweru yanatebeje, ashyiraho n'umukandara w'umukara. Ahagaze ahantu ku makaro afite ibara ry'umweru n'utundi tubara tuvanzemo imbere y'inzu, hirya turabona akazu keza gasize irangi ry'umweru.

Inzu nziza cyane ifite ibara ry'umweru, ifite igisenge cy'ubururu, ikikijwe n'urugo rwubakishije ibiti bisa umukara, hirya hari izindi nzu zifite amabati y'umutuku. Iyi nzu yakwishyurwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi, ubaye ushaka kuyikodesha. Ndetse ifite ubwogero bubiri, iherereye mu mujyi wa Kigali i Remera.

Ni inzu yo gukodesha, iherereye Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine, byo kuraramo, ubwogero butatu, wakodesha ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi, iyi nzu irasa neza nk'uko bigaragara, kandi ifite amatara meza y'umweru, n'urugi rwiza ishashemo n'amakaro y'umweru.

Ni inyubako nziza iri mu gipangu isize amarangi meza agiye atandukanye arimo: amarangi y'ubururu bwijimye, amarangi y'iroza, ndetse n'igisenge cy'umutuku. Hari gusohokamo umugabo wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru, bigaragare ko yishimiye iyi nzu yaguze.

Inzu ya etaje yubatse neza ifite igisenge cy'umutuku, impande zayo hari n'izindi nzu na none na zo zifite ibisenge by'umutuku, imbere yayo hashashe amapave, ku ruhande gato hari akajaride gatoya gasa neza; Iyi nzu ni iyo gukodesha, iherereye Kigali Kibagabaga, Ifite aho kuryama hatanu, ubwogero butanu, ukaba wayishyura ibihumbi magana arindwi.

Inzu nziza yo gukodesha ifite amarangi y'umuhondo, amadirishya y'umweru, ariko afite ibirahuri byumukara byijimye, iyi nzu ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ubwogero bubiri, iyi nzu ni nziza cyane.

Inzu ikodeshwa iherereye i Kigali, Kanombe. Ifite ibyumba bibiri byo kuryamamo, ibyumba bibiri by'ubwogero, ndetse ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi. Iyo nzu ni nziza, ifite amarangi meza y'umuhondo. Ndetse urugo rwayo rurasa neza.

Inzu nziza cyane iri mu ibara ry'ubururu, isakajwe n'amabati ari mu ibara ry'umutuku, imbere yayo hari amapave ndetse na jaride bigaragare ko ari ahantu heza, biragaragara ko iyi nzu ikodeshwa kuko hari kubonekaho ibiciro ndetse n'ibigize iyo nzu.

Inzu ndende iri mu ibara ry'umweru imwe dukunze kwita etage ikikijwe n'ibyuma imbere yaho hari jaride imeze neza, iyo nzu ikaba ifite ibirahure byinshi.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umutuku n'inkweto z'umweru ari gutambuka ahantu mu isoko risirimutse, ni inzu bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye ibyo kurya, imbuto n'ibindi aha ngaha iyo ugiye kuhahahira uratambaka ugafata ibyo ukeneye hanyuma ukajya kubarisha.

Isoko rinin ricururizwamo imyenda, harimo imyenda itandukanye, ifite n'amabara atandukanye, harimo n'abantu bafite imyenda mu ntoki, bigaragare ko bari kuvugana ibiciro.

Ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, amata y'ubwoko bwose, ari mu ducupa ndetse n'ari mu dukarito, amaji y'ubwoko bwose. Hari kunyuramo umukobwa muto muto, wambaye agakanzu kagufi k'umutuku n'agapantaro k'umukara. Afite igikapu mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko.

Ni iduka waguriramo byinshi bitandukanye. Hari inkweto z'abagore n'iz'abagabo, hari ibikapu, imikandara n'ibindi byinshi. Hahagazemo abagore babiri, umwe ari gucagura, undi ari kugurisha.

Agasoko gacururizwamo ibyo kurya bitandukanye, byiganjemo imbuto z'amoko yose. Hano turabona imyembe, imineke, amagi, n'abandi bantu baje guhaha.

Abantu benshi batandukanye bahagaze biragaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi, imbere yaho hari abandi bahagaze bambaye ingofero z'umutuku n'itabuririya z'umutuku, biragaragara ko ari abari gufasha abo baje babagana mu kubaha serivisi.

Mu isoko ryiza cyane ririmo ibintu byinshi bitandukanye harimo aba mama baje guhaha iyo uri muri iri soko ugenda utambuka utora icyo ushaka hanyuma ukajya kwerekana ibyo wahisemo bakakubarira.

Ikarita iri mu ibara ry'umuhondo, imbere harimo agafoto, biragaragara ko ari ikarita ikoreshwa kwa muganga, umuntu agiye kwivuza igihe yarwaye, kugira ngo abashe guhabwa serivisi nuko agomba kuba afite iyo karita.

Abantu benshi bicaye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore biragaragara ko imbere yabo hari imeza iriho amakaye impapuro ndetse n'imashini bigaragare ko hari n'abandi bafite amakaramu mu ntoki hari ibyo bari kwandika.

Umuntu uhagaze wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, mu ntoki ze afite ikirango kiriho amazina ndetse n'amafaranga, ku ruhande hari undi muntu ufite mikoro mu ntoki.

Umugore wambaye isarubeti y'ubururu ufite inyundo mu ntoki ndetse yambaye n'ingofero y'umuhondo handitseho iruhande rwe Ejo heza ndetse n'izuba hejuru ntuzatinye izabukuru nicyo bishatse kuvuga ni ukugira ngo abantu bose bajye bakora biteganyiriza ahazaza.

Haranira nawe kugira ubwisungane mu kwivuza. Aka ni agakarita kariho ifoto y'umwana mutoya uherereye mu karere ka gasabo mu mudugudu wa gikomera.

Udukarita tw'umweru, twandikishijeho amagambo y'umukara. Hari ahanditse RSSB utu ni udukarita twa mituweri. Niba nawe utagira ubwisungane mu kwivuza, wabarahombye rwose. Aho turambitse ni ku gitambaro gisa umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, indorerwamo z'amaso z'umukara, ukaraze imisatsi ifite ibara rijya gusa umuhundo, ariko ni shokora. Inyuma ye hicaye undi mugabo wambaye umupira w'ubururu utagaragara neza ufite uruhu rwera. Uyu mugabo afite agatase mu ntoki ariguhereza umuntu utagaragara neza terefone.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amakaroni ndetse n'ibindi, harimo umugore ufite akantu mu ntoki ari kugenda ashyiramo ibyo yahashye ndetse biragaragara ko ari gufata n'ibindi bicuruzwa.

Abantu babiri bahagaze umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara, barahagaze bigaragara ko hari serivisi bari gusaba, imbere yabo hari undi muntu uhagaze bigaragara nk'aho ari kubasobanurira.